Isoko ry'indimo abantu benshi batandukanye, abaza guhaha, abari gucuruza, imiryango itandukanye iri gucururizamo, abantu batandukanye bari gucuruza imyenda, aho bakorera amatelefone ndetse na mobayilomani.